Muri iyi si ya none, ikintu gituma ibihugu bitera imbere ni uko bafata inzego zose, zikangana mu mahirwe, ndetse no mu bindi byose bituma umuntu abasha kubaho neza. Umugore agahabwa uburenganzira kimwe n'umugabo we.

Iyi ni inama iyobowe n'umubyeyi w'umupapa, aho arimo ageza ijambo ku bamukurikiye.

Inama ifasha abayobozi, abaturage runaka gukemura ibibazo bitandukanye, buri umwe umwe wese ahava atanze ikibazo, ahawe igisubizo, yewe n'igihe cyazakemurwa mu gihe kitakemurwa ako kanya.

Inzego za Leta zitandukanye zishishikariza abaturage kuva ku tugari no mu midugudu uko bashobora kwikorera ibikorwa bitandukanye batarindiriye gutanga amafaranga mu bantu babibakorera.

Kugira ngo igihugu gitere imbere bisaba ko inzego zitandukanye zihuriza hamwe, zigashinga ibintu runaka bizajya bibafasha gutera imbere, aho ingabo z'igihugu zihura n'abaturage bagakora ibintu byinshi bitandukanye, bituma biteza imbere n'igihugu muri rusange.

Abantu benshishi hatandukanye, usanga abantu bakuru b'abasaza cyangwa se abakecuru basheshe akanguhe, usanga ari bo bahabwa ijambo bagatambutsa ikiganiro mu bandi bantu nk'urubyiruko, kuko baba bafite ubunararibonye butandukanye n'ubwo urubyiruko rufite.

Inama iyo irimo kuba umuntu aba akeneye amazi yo kunywa mu gihe agize inyota kuko bituma akomeza kumva ndetse no gukurikira ibiganiro n'ibikubiye muri icyo kiganiro byose.

Ni byiza cyane ko abantu biyambaza ibikoresho by'ikoranabuhanga birangurura amajwi, mu gihe inama yahuriweho n'abantu benshi batandukanye kuko uba usanga abantu batumva ku kigero kimwe, nko kuba umuntu ashobora kuba arwaye amatwi.

Abaturage bitabiriye inama ku rwego rw'umurenge kugira ngo bumve gahunda, za leta aho zigeze, bityo bitume babasha kugendana n'ibigezweho mu iterambere ndetse, no mu mibereho yabo ya buri munsi.

Umuntu wese w'igitsina gore aho ava akagera, arashoboye. Imirimo akora ni nayo abagabo bakora, muri make, icyo umugabo akora n'umugore yagikora. Niyo mpamvu dukwiriye kubaha ikiremwamuntu aho kiva kikagera.

Itangazamakuru ni rimwe mu bimenyetso bigaragaza neza aho Isi igeze ya none kubera ko baguha amakuru yo guhera mu gitondo kugeza bukeye bwongeye gucya.

Amahuriro rusange nk'inama abakenewe kuko ahuza abantu baturutse ahantu hatandukanye nko mu bihugu bitandukanye, mu kwiga ku kibazo runaka ndetse no kukirandura bahereye mu mizi yacyo.

Amahema ni igikoresho cyifashishwa mu bihugu bigiye bitandukanye, mu Rwanda usanga amahema akenshi bayifashisha mu gihe ahantu habaye ibirori by'ubukwe, igihe ahantu habaye ibindi birori bitandukanye nko kwamamaza amatora y'umukuru w'igihugu n'ibindi.

Ibiganiro nk'inama n'ibindi, bifasha abakiri bato gukura bazi guhagarara imbere y'abantu bityo bakabagezaho ibitekerezo yewe bikanabafasha mu iterambere kuko bahakura agatubutse nk'igihembo no kuba bayoboye abandi.

Mu bukwe abantu barasusuruka ari abageni, ari abakwe, ari abasangwabakuru ndetse n'abandi batumirwa, iyo intore zizihiwe cyane zibabyinira zihamiriza ndetse harimo n'abashayaya.

Imbyino gakondo zifasha abantu kumenya umuco nyarwanda. Zibafasha kumenya kandi uko bazajya bayobora ibirori bitandukanye. Zibafasha kandi kumenya uko kera babyinaga.

Intore mu muco wa kera wa kinyarwanda bari abantu bakoraraga umwuga wo gususurutsa abanyarwanda, wo guhamiriza bakabyina ndetse bafite icyo bita ingabo, ndetse bafite n'imbere yabo ibisabo n'abakobwa beza cyane bityo bigatuma igihugu kimenyekana.

Ibibindi usanga ari ibikoresho abanyarwanda ba kera bifashishaga cyane, aho wasangaga bengeragamo inzoga nk'ibigage, imisururu n'izindi zitandukanye. Bagashyiramo imikenke myiza myiza ndetse n'amakoma yo gupfundikira cya kibindi mu gihe kirimo inzoga irabagirana.

Abagabo babiri bambaye bya kinyarwanda, bikwije mu muco wa kera wa kinyarwanda. Bagaragara neza bishimye bari guseka.

Kuvuza ingoma mu muco wa kinyarwanda bigira imvugo yabyo yihariye aribyo bita iyo batangiye kuvuza ingoma bita gusuka, bityo rero umuco Nyarwanda abantu baba bazi umwuga wo kuvuza ingoma aribyo ubakaraza, usanga biteza imbere.

Nta kintu gishimishije nko kubona abari n'abategarugori bahagaze imbere mu birori, barimo basusurutsa abandi mu mbyino nyarwanda nkoshyaya, guhamiriza n'izindi mbyino zituma u Rwanda rwizihirwa rukagaragara neza.

Amasimbi n'amakombe ni imbyino gakondo za kinyarwanda, aho usanga ziba zirimo intore zabitojwe ku buryo zishayaya, zigahamira, zigataraka, bikanezeza uwataramiye muri icyo kirori.

Imbyino gakondo akenshi nizo zisobanura ziranga umuco w'agace runaka, umuco w'igihugu runaka kubera yukouko habahujemo imigenzo n'imigenzereze y'abantu runaka.

Aya ni amashanyarazi ndetse n'ibyicaro by'aho bayateraniriza kugira ngo bajye bagemure ahantu hatandukanye, abaturage bagerweho n'umuriro w'amashanyarazi. Harimo umuntu urimo ubikora abitekinika.

Ntabwo biba byoroshye gutambutsa umuriro w'amashanyaraza ukomoka ku ngomero z'amazi. Ahantu hari imisozi miremire cyane ihanamye kubera yuko gucukura ahantu hari umuyaga ndetse hanakomeye, yewe hashobora no kuba hariduka ntabwo biba byoroshye.

Abahanga mu bijyanye n'ingufu z'umuriro zikomoka ku mashanyarazi y'ingomero z'amazi, babona igihugu kigenda gitera imbere kuko umuriro wifashishwa mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, haba kwa muganga, ibigo by'amashuri, mu mavuriro n'ibindi.

Ni byiza kugira ingomero z'umuriro w'amashanyarazi akomoka ku mazi kubera yuko uriya muriro uraramba kandi uranakora cyane, buri muturage wawukoreshejeho wumva yiyamira akubyira ibyiza byawo uko utandukanye n'uturuka ku myirasire y'izuba.

Umuriro w'amashanyarazi ukomoka ku ngomero z'amazi ufasha byinshi cyane mu bucuruzi, aho usanga inzu z'ubucuruzi zifashisha uwo muriro zimurika nk'urumuri kugira ngo ubucuruzi bwabo bukorwe neza nta kidobya.

Inzobere mu bijyanye no gusana no gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi akomoka ku ngomero z'amazi, zifasha igihugu kwiteza imbere, aho buri gace runaka kaba gakeneye umuriro w'amashanyarazi kugira ngo bigeze ku bintu runaka bitandukanye.

Amasoko yubatse mu buryo bwa kijyambere, afasha abaturage mu gushora imyaka yabo basaruye kugira ngo babone amafaranga, bakemure ibibazo mu miryango yabo, babone amafaranga y'ishuri y'abana ndetse n'ibindi bakeneye mu mibereho yabo ya buri munsi.

Ni byiza ko igihugu n'ikindi bigira umupaka ubitandukanya, kugira ngo uzabashe gutandukanya inyubako zawe abaturage ibintu byawe n'iby'ikindi gihugu, bityo rero bakandika ku byapa amazina y'igihugu atandukanye n'ay'ikindi.

Mu Rwanda Umudugudu uba ufite ibiro byawo, Akagari kakaba gafite ibiro byako, Umurenge ukaba ufite ibiro byawo, kugeza ku ntara ndetse n'umugi, yewe n'Igihugu muri rusange.

Ikiraro kiba kiri mu bwoko bw'amateme cyubakwa ku nkunga ya Leta, kikarinda abaturage bambuka ku migezi runaka cyangwa ahandi hantu hahanamye kuba byashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Leta zose muri iyi si usanga ziba zifite umutekano ukomeye uba warakajijwe ku mipaka itandukanya igihugu iki n'iki, kubera yuko bituma umutekano w'abaturage ndetse n'ibyawo ugerwaho.

Ikiraro cyo mu kirere gituma impanuka z'abantu bagwaga mu mazi ndetse n'ibindi bikoresho byabo bigabanuka kuhaburira kubera yuko kiba cyubatse mu buryo bwa gihanga, gikomeye cyane kandi kizamara igihe kirekire.

Imihanda yose ica mu bishanga ahantu hari ubutaka bworoshye ikwiriye kubakwa mu buryo bwa gihanga ndetse bunafite ikoranabuhanga kugira ngo hirindwe za mpanuka ziterwa no kuba ibimodoka binini byikoreye imizigo bikaritura rya teme abantu bakahaburira ubuzima.

Ibigo mpuzamahanga, bishinzwe kurengera impunzi ndetse n'abimukira, usanga zivuga ko hakiri imbogamizi n'ibibazo kutita ku bimukira ndetse n'impunzi, kuko bahohoterwa ngo ni uko batazi aho baturutse cyangwa se aho baturutse harabaye ibibazo runaka by'intambara, bityo ntibitabweho uko byagakwiriye.

Ibibuga by'umupira w'amaguru bifasha Leta kubona amafaranga mu buryo butandukanye, si icyo kandi gusa abaturage babona amikoro mu bucuruzi bwabo bwa buri munsi kuko babasha kujya gushora umusaruro wabo ndetse n'abafite utubari n'abacuruza ibiryo bakabona amafaranga ku buryo bugaragara.

Gushyingura mu mahoro imibiri y'abishwe bazize jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe maganacyenda na mirongo cyeyenda na kane, biba ari ngombwa kuko bigaragaza ko wubashye umuvandimwe wawe wabuze, ndetse bikanatanga ishusho nziza ku bazagukurikira.

Ni byiza ko abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda twumva neza amateka yaranze u Rwanda, aho abatutsi bishwe bazira uko bavutse bazira ubutunzi bwabo, bazira uko babayeho bityo rero tugomba guterana tukibuka abo bacu baba barazize akarengane.

Ubutabera bugomba gutangwa ku muntu wese warenganye kuko usanga hari abantu benshi cyane bitwaza ngo ni uko bakomeye, bagahohotera abandi mu buryo ubu n'ubu.

Abaturage iyo bateraniye ahantu henshi mu nama, biga ku bibazo bitandukanye. Abatanga ibibazo ako kanya, abaza kubikemura baba bahari, ikindi kandi aba bayobozi babishinzwe barabikurikirana cyane kuko buri wese aba yisanzuye, noneho umuyobozi akumva impande zombi.

Ibiganiro rusange n'inama, biba bikenewe mu bayobozi bakuriye uduce runaka tw'ahantu, kugira ngo babashe kwiga ku mbogamizi, ibibazo, n'uburyo byakemuka, kugira ngo abo bayoboye babashe kubaho neza mu butabera ndetse no mu ibindi bakeneye.

Abayobozi n'abandi bantu bakuriye amatsinda runaka babona kwifashisha indangururamajwi byarakemuye byinshi mu gihe barimo babwira abantu benshi babakurikiye imbonankubone yewe n'abari kure yabo.

Abaturage b'igihugu runaka, cyangwa se b'agace runaka, usanga bahohoterwa cyangwa se bagahohotera bagenzi babo ariyo mpamvu umutekano w'igihugu ugizwe n'abayobozi batandukanye, witoramo abazajya bajya kuba hafi aba baturage kugira ngo ibibazo byabo bikemurwe ndetse n'abagize uruhare mu kugira ngo bikemuke na bo bahembwe.

Abari n'abategarugori mu gihe cya kera wasangaga badahabwa agaciro ugereranije n'abagabo babo ndetse n'abahungu n'abakobwa kuko usanga barabafataga mu buryo bunyuranye n'ubwo amategeko avuga.

Ingabo z'ibihugu bitandukanye zigira uruhare rukomeye cyane mu kurinda umutekano w'abaturage igihugu ndetse, n'umutungo wacyo bityo umuturage, aka agatekana akabaho nta kibazo afite.

Ingabo z'Igihugu iyo zateraniye ahantu hamwe ziri kwiga ku kibazo runaka cy'umutekano, biba ari byiza cyane ku buryo buri muturage wese aho ari aba yumva atekanye kuko umutekano uba ari wose.

Nubwo abaturage bagenda bamenya akamaro ko gukurikiza amabwiriza ndetse n'ingamba n'amategeko bya leta, hari bamwe mu bagerageza kubikerensa ugasanga barahangana n'inzego z'umutekano. Aho abashinzwe umutekano babihanangiriza byagorana bagahabwa ibihano runaka kugira ngo babere abandi urugero batazajya bakomeza gukora amakosa nk'ayongayo nkana.

Ruswa n'akarengane ni bimwe mu bikomeje gukataza, nyamara hari ibihugu bimwe na bimwe byashyizeho ingamba zikomeye cyane zo kurandura ruswa n'akarengane gakorerwa bamwe mu baturage babyo.

Ni byiza yuko abayobozi bakuriye abandi mu tugari, imirenge, intara, Igihugu ndetse n'imijyi itandukanye yo muri icyo gihugu, abayobozi bahura bakigishwa neza ibijyanye nuko basigasira abaturage, bakabakorera ubuvugizi mu butabera bwabo kugira ngo babane neza mu mibereho yabo ya buri munsi.

Ni byiza ko abantu bose bahabwa ubutabera. Binyuze mu gukora ubukangurambaga mu bayobozi bahagarariye uduce tuyobowe na bo. Kugira ngo abaturage bahabwe ibyo bakeneye ntawe uhonyowe k'uburenganzira bwe.

Ibyapa biranga intera iri hagati y'aho abantu bageze n'aho ibintu biri n'ahandi, bigomba kuba byanditse neza kugira ngo usoma amenye amerekezo intera ashigaje uko ingana.

Ibyapa ni ingirakamaro cyane kubera ko biyobora umugenzi ahantu atazi akabasha kugerayo nta wundi muntu abajije bityo agakoresha amasaha make mu kugera kuri serivise yari akeneye.

Aha ni ahangaha ni nahoho bakorera ingendo zitandukanye muri uyu umuhanda wa kaburimbo aho turi kubonamo imodoka imodoka y'akarere mbese itwara ibintu bitandukanye bijya mu nzego z'ubuyobozi,

Igihugu cy'u Rwanda cyateye imbere mu nzego zitandukanye, urugero twavuga nk'ukuntu imihanda yubatswe ku buryo buhebuje, ya mihanda twakwita ngo ni iya kizungu, ubu mu Rwanda mu gace kose k'igihugu, igiye irimo.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu, bugomba gukorerwa mu mihanda myiza bugenewe igezweho, aho igaragaza buri cyerekezo, aho inyura mu cyerekezo cyayo ndetse n'abanyamaguru bakabona uko batambuka, birinda impanuka.

Kwiga amategeko y'umuhanda birafasha cyane kuko bituma utwara imodoka, igare ,ipikipiki cyangwa n'ibindi binyabiziga abasha gusigasira ibyo atwaye ndetse akanamenya aho arimo ajya ahariho n'uko agomba kuhagenda.

Abaturage bakore ingendo hirya no hino mu gihugu, bishimira imodoka ndetse n'ibindi bikorwa remezo byashyizweho na Leta, kugira ngo ibikorwa by'ubucuruzi no gutwara ibintu n'abantu byose bigende neza mu baturage.

Gahunda ya twegere umuturage irafasha cyane kubera y'uko inzego z'Igihugu zose harimo iz'umutekano zegera umuturage zikamushyira ku isonga zikumva ikibazo yaba afite cyaba icy'umutekano ndetse n'icy'ubushobozi.

Umuganda ni igikorwa cyiza rusange, aho ingabo, abaturage, abayobozi ndetse n'abashyitsi bagendereye igihugu, bigira byinshi muri icyo gikorwa cy'umuganda, harimo gufasha igihugu gukora ibikorwa byari byaragoranye.

Inzego z'Igihugu haba higanjemo ibice by'ahantu hatandukanye. Aho usanga umuyobozi w'agace runaka nk'umurenge ahuriza abaturage be ahantu hamwe kugira ngo abaganirize ibyo gukunda igihugu ndetse no kugisigasira.

Umupira w'amaguru utuma abakora uwo mwuga babona inyungu zitandukanye. Ni imyitozo ngororamubiri, ikindi kandi habahohugu kubona amafaranga yo kwikenura, igihugu kibona iterambere mu buryo ubu cyangwa buriya.

Umuganda ni kimwe mu bikorwa rusange biteza imbere, igihugu aho usanga buri rwego rwose rutandukanye ruza rugahura n'izindi nzego zitandukanye z'igihugu n'abaturage, harimo ingabo z'igihugu, ndetse n'izindi nzego, bagasennyera umugo zimwe, bagakora ibiteza imbere igihugu.

Ni byiza gukora ubukangurambaga mu baturage, bumvishwa ko umuganda ari igikorwa rusange kibateza imbere aho batuye, kigateza imbere igihugu ndetse n'isi muri rusange bityo ko bagomba kwitabira icyo gikorwa cy'umuganda.

Uyu numubyeyi wambaye ibikoresho byabugenewe by'ubuhinzi, urimo ukorera neza imyaka, cyane cyane imboga n'ubusitani.

Inyubako igaragaza Umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda ari mu kazi kajyanye n'ibyumutekano, mu biro bye, aho akorera.

Ijwi ry'umuturage ku ngingo runaka rirakenewe mu gutera intambwe kw'Igihugu kugira ngo gitere imbere kandi kizire ibibazo byose bituma abaturage babaho nabi ndetse n'ingabo z'Igihugu zikifatanya na bo mu kugira ngo byose bikemuke.

Abahinzi bibumbiye mu matsinda, bakora igikorwa cy'ubuhinzi mu gihe cyihuse mu masaha makeya ukabona umusozi wose urandagayeho intabire nini cyane ku buryo uza gutera, aza agatera ndetse agakoresha imbuto nyinshi cyane bityo ubuhinzi bukihuta, bitewe nuko bakoreye hamwe.

Inzego z'Igihugu z'umutekano zishyirwaho na Leta kugira ngo harindwe abaturage, imitungo yabo, ubusugire ndetse hanarebwe uburyo ubutabera bwajya bugera kuri buri Munyarwanda uwo ari we wese.

Gira inka munyarwanda ni inkunga itangwa na Leta kugira ngo abaturage baciriritse bakennye bajye babasha kubona ifumbire, bahinga imyaka yabo beze ndetse banarwanye zimwe mu ndwara ziterwa no kuba hariho imirire mibi mu banyarwanda.

Mu gihugu cy'u Rwanda usanga hari imirimo rusange ihuza abaturage bakora mu gihe runaka cyateganijwe mu mwaka cyangwa se mu kwezi n'itariki runaka yihariye, bigatuma bahura bakora imirimo ibateza imbere ndetse n'igihugu muri rusange.

Imyitozo ngororamubiri rusange, ifasha buri muturage wese kumenyekana, urugero ahura na mugenzi we bakamenyana, yewe imufasha mu mibereho myiza ye, imurinda indwara zitandukanye.

Amakipe y'umupira w'amaguru muri iyi si yigaruriye imitima y'abantu itandukanye aho usanga abantu bahitamo kugura imyenda y'amakipe y'umupira w'amaguru cyangwa n'indi mipira itandukanye kugira ngo bagere ku byishimo.

Umupira w'amaguru ni wo watumye isi ya none itera imbere kuko havamo amafaranga menshi cyane, amafaranga agatangwamo umusoro wubaka ibikorwa remezo mu Gihugu ayo marushanwa yabereyemo.

Isi ya none ni byiza yuko buri wese ugishoboye uhumeka akora imyitozo ngororamubiri, urugero twatanga gukina umupira w'amaguru kugira ngo yirinde indwara ziterwa no kuba umuntu atarakoze imyitozo ngororamubiri.

Abakora umwuga wo gukina umupira w'amaguru basanga barabakemuriye ibibazo bitandukanye haba mu miryango yabo, aho batuye, mu gihugu ndetse n'Isi muri rusange kuko babasha kubona amikoro bakagira ibyo bakeneye byose barabibona.

Amarushanwa y'umupira w'amaguru iyo atangiye mu Tugari usanga abaturage banezerewe cyane kuko bajyanayo ibicuruzwa byabo bakabibagurira bakikenura, ikindi kandi abakora uwo mwuga w'umupira w'amaguru usanga biteza imbere bakanakora imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri rusange mu gihugu ibaho ku munsi wateganijwe igamije kugira ngo ihuze abaturage, ibigishe kandi bahuguwe ibatoze uko bazajya bakora imyitozo ngororamubiri, bagamije kurandura indwara ziterwa n'ibyo bibazo byose byo kuba badakora imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri y'abagore muri iyi isi ya none yateye imbere aho usanga bamwe mu bagore cyangwa se abari n'abategarugori bawukoraga kugira ngo biteze imbere, mu gihe cya kera uwabikoraga bamufataga nk'umugore cyangwa se umukobwa utagira umuco mbese igishegabo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru babigize umwuga, kenshi usanga biteza imbere n'imiryango yabo, bagateza igihugu imbere ndetse n'isi muri rusange y'imyitozo ngororamubiri kubera ko bagiramo uruhare rukomeye.

Abari n'abategarugori mu gihugu icyo ari cyo cyose, bakwiriye kujya bitabwaho n'inzego zose za Leta kuko barashoboye, ari imyitozo ngororamubiri ishingiye gukina umupira w'amaguru, usanga basigaye biganjemo cyane, mu bazi uwo mwuga bafite izo mpano.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru ni bamwe mu bantu bakora imyitozo ngororamubiri bavunika cyane, ni ngombwa rero ko bahembwa ku gihe kandi bakitabwaho bakagira abaganga b'inzobere bakurikirana ubuzima bwabo.

Imyitozo ngororamubiri ituma umuntu uwo ari we wese abasha kumva ameze neza. Nta mavunane, nta ndwara ziterwa n'umubyibuho ukabije, mbese akumva aratuje.

Amatsinda y'umupira w'amaguru, akorwa akenshi hagamijwe gushaka amikoro ku bakina uwo mupira w'amaguru, yewe ndetse hanakorwa imyitozo ngororamubiri ituma birinda indwara, harimo nk'indwara zijyanye n'ubuhumekero n'izindi.

Muri siporo rusange usanga hanarimo umwitozo ngororamubiri w'umupira w'amaguru aho usanga abaturage n'abayobozi babo bihuse bagakora amatsinda abiri bagakina bishimisha banagamije kurwanya indwara zitandukanye.

Ibibuga by'imyidagaduro bakiniraho umupira w'amaguru, bifasha abantu mu gususuruka kubera ko abakinnyi b'umupira w'amaguru baba batsinda ibitego, bagacengana abandi bagategana bityo bigatuma abafana basakuza cyane bishimye.

Umupira w'amaguru ni amarushanwa ngororamubiri, aho amakipe abihura hakitoramo iyitsinda kugira ngo bamenye ikomeza mu zindi nzego kugira ngo bazamenye izahabwa igikombe, izagera ku mukino wa nyuma.

Ibibuga bigezweho, usanga muri iyi si bisigaye byiganje ahantu hose nko muri Afurika, urugero mu Rwanda, aho usanga higanjemo ibyumba by'ubwiherero, aho aho kuba bakambarira imyambaro runaka ndetse n'ahandi hatandukanye.

Haracyari imbogamizi nyinshi cyane mu mihanda yo mu byaro, aho usanga imihanda yaratengutse imihanda icibwamo n'amazi, imihanda irimo ibibi byose ariko mu by'ukuri kubera yuko hari abayobozi batazi kugera ku muturage aho aherereye ngo barebe ibibazo afite basanga nyine ntagikozwe.

Imodoka nini zishinzwe kwikorera imitwaro bakunze gutaza kukazina ka ruvakwaya, zifasha cyane ubwubatsi bw'imihanda ndetse n'inyubako, kubera ko izi modoka ziba zibasha kwikorera ibitwaro, binini cyane.

Abantu benshi bishimira kunyura mu muhanda w'umukara ugezweho uba ugizwe n'ibice bitandukanye, aho haba hari ahanyurwa n'abantu, abanyamaguru, ahanyurwa n'abafite amagare, amapikipiki ndetse n'imodoka.

Abakora umwuga wo gutwara ibintu n'abantu ku mapikipiki bagomba kwita neza ku mategeko n'amabwiriza agenda umuhanda cyane cyane iyi mihanda bita ngo ni iya kizungu y'imikara.

Leta z'ibihugu zitandukanye, usanga zarakoze ubukangurambaga no kubaka imihanda ikomeye imwe bita ngo ni iya kizungu ariko hari aho usanga hakiri ibibazo bitandukanye byo kuba imihanda irimo imikoki n'ibindi bibazo byateza impanuka.

Abatwara amamodoka n'amagare ndetse n'amapikipiki usanga bishimira uburyo umuhanda wa kijyambere bakunze kuvuga ngo ni uwa kizungu woroshya cyane urujya n'uruza rw'ibintu.